Icyapa kinini gifite ibara ry'icyatsi cyijimye. Hejuru hari amagambo ari mu ibara ry'umuhondo agira ati: "Ishuri." Hasi hari andi y'umweru agira ati: "Ni gute ushobora kwimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata icyemezo?" Hasi hariho umurongo w'umuhondo, munsi yaho hakaba handitseho aho ushobora gusanga ibijyanye n'ibi, ariho ishuri doti gov.

Ikigo cy'amashuri gusa hakurya hari umurongo umwe w'amashuri igisenge cyawo cyatwawe n'umuyaga, hagati mu kibuga hateyemo igiti k'inganzamarumbo, hari ikibuga abana bakiniramo ndetse inyuma y'ikigo hari ishyamba ryinshi.

Uducamirongo dutandukanye twifashishwa guca imirongo itandukanye, harimo akifashishwa guca umurongo ugororotse, harimo akwifashishwa guca umurongo ufunze, harimo na kwifashishwa guca imirongo y'ampande eshatu ndetse no gupima inguni igororotse.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha bashushanya amashusho, harimo irate ndende bifashisha bacumura ugororotse, harimo indi lati y'ikizeru yifashisha baca umurongo ufunze, hari n'urushinge bakoresha baca umurongo ufunze ari rwo bita kompa, hakaba n'ikaramu y'igiti bita kereyo.

Imbonerahamwe igaragaza imibare kuva kuri rimwe kugeza ku icumi. iyo mbonerahamwe yanditswe mu ibara ry'umutuku ariko werururutse, mu gihe iyo mibare yanditswemo yo, yanditse mu ibara ry'ubururu ariko nabwo bwerurutse.

Uburezi mu mashuri yisumbuye, icyumba kinini cy'ishuri kirimo abanyeshuri benshi, bicaye bari kwiga, hagati yabo hahagaze umwarimu yambaye ishati y'umukara, afite n'indangururamajwi kugirango ngo, abo banyeshuri babashe kumwumva bose kuko ari benshi.

Uburezi mu mashuri yisumbuye, mu cyumba cyigishirizwamo iby'ikoranabuhanga harimo abana b'abanyeshuri batandukanye, hari babiri bari kugaragara cyane bari imbere y'abandi, ni abana babiri b'abakobwa bambaye amashati y'umweru n'udupfukamunwa, umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara undi yambaye ak'umutuku wijimye, bicaye imbere ya za mudasobwa bari kugerageza kugira ibyo bashyiramo.

Uburezi mu mashuri yisumbuye. Umuryango winjira mu kigo cy'ishuri ry'imyuga rya Cyondo, kuri uyu muryango hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agira ati: "welikamu tu Cyondo Tiveti sikuru, diginiti, Tekinoloji , poroguresi".

Uburezi mu mashuri yisumbuye, icyumba cy'amashuri kirimo abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore bambaye imyenda y'akazi bigaragara ko bari gutegura iki icyumba cy'amashuri kugira ngo kizajye cyifashishwa n'abana nka laboratwari.

Icyumba cy'ishuri abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ibijyanye n'imyuga bitorezamo gushyira mu bikorwa ibyo bize, icyumba kirimo abanyeshuri batandukanye abagaragara cyane ni bane umwe igikuta ahagaze imbere cyanditseho ngo source technical high school, akaba ari abanyeshuri biga iby'amashanyarazi bari kugerageza gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe.

Urubyiruko rukiri ruto rwiganjemo abakobwa bambaye udupira twera, mu gatuza iburyo hariho ibirango byanditseho ngo masita kadi fondesheni mu mugihe mu gatuza kabo ibumoso hariho ikirangango cyanditseho ngo Yunivasiti ofu Rwanda. Bambaye uturango mu ijosi tubagaragaza abo baribo, inyuma hagati harimo umugabo wambaye ishati itukura.